Imodoka ya Parado umuntu waiarango yari agiye kwifatira Ibero kuri buranjeri. Bafite n'ifi ziryoshye.

Hano ni hafi yo kwa munywanyi wanjye Janviye wo mu Kinigi. Afiteyo na siberikafe, njya njya kwifatirayo enterineti nagezeyo hafi ya ho.

Ibirago ahantu babiboha cyane, mbiheruka cyera ndi kwa mukecuru, dore ko ari naho usanga banakibyiyorosa kandi turi muri viziyo.

Isoko ryaremye abantu bacuruje byakomeye. Imifuka, abari gucuruza, abajenti na bo ndi kubona aba eyateri bahari. Abaturage barimo kugura birashyushye.